Abana bari ku ishuri barahabwa amabwiriza n'abarimu. Ku ishuri kandi ni ahantu heza haba hateye indabo zitandukanye hari n'ibigega bifata amazi. Ni byiza ko abana biga kugira ngo bagire iterambere n'ejo heza hazaza.

Abanyeshuri batandukanye barakora ubushakashatsi ndetse banoza ibyo biga, ni ngombwa ko iyo abanyeshuri biga bagira umwanya uhagije wo gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubumenyi bwabo bityo bikabafasha kwiteza imbere.